Kuri ubu abantu benshi bifashisha gaze bari guteka. Kuko ni uburyo bwo guteka bugira vuba vuba. Mu mahoteri naho barayikoresha.

Abapolisi, abagabo bambaye imyenda y'abapolisi iriho idaraporo ry'u Rwanda, gabo bambaye n'ingofero ziriho ikirangantego cy'u Rwanda.

Ikibaho cy'umweru, gikunda gukoreshwa mu nama nyinshi zitandukanye inama z'ubuyobozi, mu mahugurwa, mu makonferensi n'ibindi.

Abapolisi bashinzwe gucunga umutekano w'abantu n'ibintu, baba bafite ikinyabupfura giteye ubwoba, iyo urebye aho bitoreza uhita ubibona.

Sofiya ni igikoresho gishyirwa mu mihanda itandukanye, kugira ngo kirebe imivuduko y'abamotari cyangwa se abantu batwaye imodoka, nacyo gikora umurimo nk'uwabo.

Abapolisi n'aba bantu bashinzwe gukora mu bintu by'amashanyarazi, baba bafite uko bazimya inkongi y'umuriro, hari udukoresho twabugenewe baba bafite bakoresha.

Inzu z'abapolisi ziba ziri ahantu hitaruye. Ziba zifite umutekano kuko ziba zifite n'umuriro w'amashanyarazi.

abapolisi bashinzwe umutekano w'abantu n'bintu. Badufiye akamaro kanini cyane. No mu mihanda barahahagara bigatuma abashoferi bagendera ku muvuduko uringaniye.

Abasekite bacunga umutekano kandi bacunga n' ibigo by'imari, bagacunga n'umutekano mu gihugu.

Ikiyaga kidufitiye akamaro kanini cyane, abantu bakoreramo imyidagaduro yo koga, abandi bakarobamo amafi, ndetse n'ubwato bunyuramo buri kwambutsa abantu.

Abapolisi n'abasirikari baba bafite uburyo batojwe ikinyabupfura; uko bahagarara n'uko bakora imirongo. Biba bitandukanye n'iby'abaturage basanzwe.

Abapolisi barinda umutekano uw'abantu n'ibintu. Imbwa na yo iyo iri mu rugo, icunga umutekano mu rugo. Nta mujura wapfa kwinjira mu rugo, ndetse nta n'uwacokoza imodoka hariyo imbwa.

Abapolisi n'abaturage, iyo bahuriye ahantu hatandukanye, baraganira, bakishima, bivuze ko umutekano ari mwiza mu Gihugu cyacu.

Amatagisi atwara abantu n'ibintu, mu mihanda myinshi itandukanye amakaburimbo cyangwa se imihanda y'ibitaka, haba harimo amatagisi atwara ibintu.

Mu nama zo mu midugudu, cyangwa se zo mu tugari, cyangwa mu mirenge, ni ho abaturage babona umwanya wo kubaza ibibazo byabo bafite. Bakabibaza abayobozi babo baje mu nama.

Inama iyo iyobowe n'umuyobozi bamutega amatwi. Abantu batandukanye b'abanyacyubahiro bayizamo, bakumva icyo umuyobozi ashaka kubagezaho, hanyuma na bo bakabaza ibibazo.

Inama y'abayobozi yigirwamo ibintu byinshi cyane bitandukanye, ninaho hafatirwamo ibyemezo ku miyoborere y'abayobozi mu baturage.

Agapaniye ni agakoresho gakoreshwa mu bukwe, bari gusaba bakagashyiramo inzoga zitandukanye zirasabishwa.

Intore zisusurutsa ahabaye ibirori, zisusurutsa ahabaye ubukwe, kandi zikabasha gukorera amafaranga, zikiteza imbere ku buryo bukomeye cyane.

Inyambo ni inka nziza cyane, ziba zifite amahembe maremare, kandi zisa neza rwose, zitanga n'umukamo ushimishije, zikunda kuba ahantu hari ibisambu, zikarya ibyatsi.

Mu muco nyarwanda intore zasusurutsa abantu ,cyane cyane zikunda kubyina iyo ibirori birangiye, zigasusurutsa abantu barimo bataha.

Umuhoro wa kinyarwanda wakundaga gutungwa n'abantu benshi, cyane cyane abagabo mu ngo zabo babaga bawufite, watemaga ibiti, ugasatura inkwi zo gutekesha n'ibindi.

Umuduri ni igikoresho abahanzi bakoreshaga bahanga, ni ukugira ngo ibihangano byabo biryohe bakoreshaga umuduri, noneho ndetse no mu bukwe baragikoresha, mu mwanya wo gukoresha za Sentetizeri, bakoresha umuduri.

Abatunzi bakamira mu nkongoro amata ,inkongoro yabaga ifite umufuniko wayo, iyo uwo mufuniko wabaga watakaye bashyiragaho umutemeri w'icyibo.

Imyidagaduro ikorwa mu buryo bwinshi butandukanye hari abakina umupira, abandi bagakina vole ,abandi bakiruka, abandi bagasimbuka urukiramende.

Inka zitanga umukamo ushimishije, abantu b'abagabo ni bo bakunda gukama inka. Inka zirya ibyatsi zikanywa n'amazi.

Ibicuma ni udukoresho twakoreshwaga banyweragamo imisururu, inzagwa, mbese ukabona ni ibintu byiza cyane. Imicaca bayicaragaho bari kwiganirira.

Ababyinnyi basusurutsa ibirori, bakunda kuba biyambariye udusengeri bakenyeye n'incunda, noneho iyo bashaka koryoshya ibintu baba bafite n'uduseke bikoreye kugirango ngo ibintu birusheho kuryoha.

Gusimbuka urukiramende wari umuco nyarwanda, abana benshi bakundaga kubikora, ndetse n'abakuru barabikora mu buryo bwo gukora igororangingo.

Mu muco nyarwanda, bari bafite udukoresho twinshi dutandukanye, inzuho bazinyweragamo, ibigage n'ibiteri, ibicuma babinyweragamo, inzagwa n'imisuru, imivure bayikamiragamo, inzagwa, inkoko bazigosoreragaho amasaka.

Ikibindi mu muco nyarwanda cyahabwaga agaciro cyane. Bagiterekagamo inzoga, bakagiterekamo amazi, ariko bakibangiraga n'ingata ituma kidahemuka.

Mu minsi yashize abatunzi bakamiraga amata mu nkongoro, ndetse bagahereza n'abana bakanywera mu nkongoro, kuri ubu haje ibicuba bya kizungu nibyo basigaye bakoresha.

Umuheto n'umwambi byari ibikoresho by'abahigi, bajyaga guhiga mu ishyamba inyamaswa zitandukanye ziribwa bazica zikitwa umuhigo.

Mu mihango y'ubukwe abagore bakenyera imyenda. Abagabo na bo iyo baratera ibyivugo barakenyera imyenda y'imishanana.

Ikibindi gishyirwamo inzoga, imiseke niyo basomesha iyo bari kunywa inzoga yo mu kibindi, abagore iyo bari mu misango y'ubukwe baba bakenyeye imishanana, bateze n'utugori mu mutwe.

Hari ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa bari gukora imitako, akabindi wagashyiramo ururabo ukagatereka hafi y'umuryango, agakoko wagashyiramo amafoto ukakamanika mu nzu, icyibo na cyo wagitereka hejuru y'akabati kikaba umutako mwiza cyane.

Ikibindi kera bagituriragamo inzoga. Ni uko bagahurizamo imiseke，bagasoma， bose bakabyita intango y'amahoro.

Abanyarwanda b'ababyinnyi bakunda kuba bakenyeye imishanana, nuko bakagaragaza umuco wabo nyarwanda, iyo bari kuvuza ingoma usanga ari ibintu biryoshye cyane, ku buryo n'abazungu.

Ibyibo ni ibikoresho byiza cyane, bikunda kwifashishwa iyo umuntu agiye mu bukwe, ashyira ibigori cyangwa ibishimbo mu cyibo, agashyira mugenzi we. Ibirago na byo abakobwa iyo bajyaga gushyingirwa, bahaga ba nyirasenge ibirago.

Umuvure wa kinyarwanda bawushoreramo inka. Bagakamiramo n'inzoga y'urwagwa. Rero abagabo bakunda kuyikorera bagiye kuyishoreramo inka zabo.

Inzu ndangamurage zabaga zubatse mu buryo bwa nyakatsi, zabaga ari inzu nziza cyane, zifite mu kirambi, mu ndugu, ndetse no mu mbere. Bakundaga kuba bafite n'ibirago, ingoma, ndetse n'inzitiro zabo ari iz'ibiti.

Ibibindi byaterekwagamo inzoga mu mazu ya kinyarwanda, ndetse bagashyiramo n'imiseke, bigaterekwa no ku ngata zabugenewe zo kubifata ngo bitagwa.

Kera ibibindi byabaga ari ingenzi cyane mu muco nyarwanda, bashyiragamo inzoga, bagashyiramo imiheha, bakagenda basogongera ku nzoga, n'ibicuma na byo byarakoreshwaga ndetse n'inzuho.

Intara ni igikoresho gikoreshwa bagosora ibishyimbo, batoranya amasaka, ibigori n'ibindi, kandi bakabigurisha birimo isuku.

Iyo umurwayi yarwaraga bamuhekaga mu ngobyi ya kinyarwanda, bakamujyana kwa muganga, iyo ngobyi yabaga ifite imijishi ine, ikajyamo abagabo bane bagendaga bakirana, bakagenda bari kwakirana, umurwayi bakamugeza kwa muganga.

Kera abanyarwanda bagiraga igikoresho cyitwa imbehe, bakiriragaho, bakakinyweraho isupu, ndetse n'inyama. Bakundaga kugitereka ku meza.

Abakaraza bakundaga kuba bambaye nk'intore, bakenyeye inkindi, bambaye imigara mu mutwe. Bakundaga kuvuza ingoma mu birori, cyangwa nk'igihe bari kwitegura iminsi mikuru.

Kera abanyarwanda bariraga ibiryo byabo ku mbehe. Bakundaga kurya amahundo, ibihaza, impungure ,ibishyimbo bivanze n'imboga.

Kera inzu z'ibyatsi，zagiraga mu kirambi，mu ndugu no mu mbere. Zari zisakajwe ibyatsi， ariko ntabwo zaturaga.

Imitako turayigurisha ikaduha amafaranga, tuyitaka no mu nzu, ibyibo turabigurisha bikaduha amafaranga, tubituriramo no mu rusengero.

Kera abanyarwandakazi basokozaga umusatsi wabo mu buryo bw'uruhanika, ntibigeraga bawutera amaporoduwi, ahubwo wabaga ari umusatsi karemano.

Intore zisusurutsa mu mihango y'ubukwe, intore zikorera amafaranga akazibeshaho. Ababyinnyi na bo bakorera amafaranga kandi na bo barasusurutsa mu bukwe.

Ibyibo ni udukoresho two mu rugo, umugore wese mu rugo rwe yumva yatunga ikibo kuko akifashisha ahantu henshi hatandukanye, ndetse n'inkangara na zo zipfundikirwamo utuntu twinshi dutandukanye.

Ibikoresho by'amashanyarazi bidufitiye akamaro kanini cyane. Kuri ubu iterambere ryageze hose, abantu benshi bafite amashanyarazi baracana ntabwo bagikoresha udutadowa.

Kuri ubu iterambere ryageze ahantu hose. Ahantu henshi bafite umuriro w'amashanyarazi. Kera bakoreshaga ututadowa, none ubu byaroroshye, ahantu henshi haba umuriro w'amashanyarazi.

Toronovisi ni igikoresho gikoreshwa bari gufungura amaburo, gikunda gukoreshwa n'ababaji, abanyamashanyarazi, aba bose baracyifashisha.

Insinga z'amashanyarazi, nizo zinyurwamo n'amashanyarazi, agenda ari gukwirakwiza amashanyarazi ahantu hose, tukabona umuriro w'amashanyarazi bitagoranye.

Insinga z'amashanyarazi ,ni umuyoboro unyurwamo n'umuriro w'amashanyarazi ukatugeraho ,tukawucana bigatuma ubuzima bugenda neza cyane.

Igifashi gifasha abakanishi gufata nk'insinga z'amashanyarazi cyangwa se nk'imisumari, cyangwa se nk'ibintu byananiranye gufugwa.

Urusengero ni ahantu abantu baza gusenga Imana, bakayitura imitwaro y'ibibaremereye byose, mu rusengero kandi tuhakura inshuti n'abavandimwe.

Urusengero ni aho dusengera tugatura imitwaro y'ibituruhije ku mutima . Hafi y'urusengero haba hari ibiti bifite amahumbezi , imbuga nziza cyane, ushobora no kuyicaramo ugatura imitwaro y'ibikubabaje , ugataha uruhutse.

Urusengero turusengeramo, amabuye turayubakisha, turanayagurisha tukabona amafaranga menshi cyane.

Mu rusengero ni ho abantu basengera, hari insengero ziba zifite ishusho yo mu cyaro, ku rusengero haba hariho n'umusaraba ndetse hakaba hariho n'inzu z'ubwiherero.

Kiliziya ni aho abantu basengera, kiliziya iba ifite imbuga nini cyane ku buryo iyo abakirisitu babaye benshi mu nzu basengera no mu mbuga yo hanze. Habaho n'imisigiti y'abayisilamu.

Muri iki gihe hari inyubako nyinshi zitandukanye, hari izubakwa kugira ngo zikorerwemo ibiro, amanama, amakwe, hari n'izindi zubakwa kugira ngo bazituremo, ariko ahenshi ziba zifite amajaride meza cyane.

Ku mashuri habaho abarimu, abanyeshuri n'abakozi baba bashinzwe gusana ibyangiritse ku mashuri, hafi y'amashuri haba hatuye ingo zitandukanye z'abaturage.

Urusengero rusengerwamo， abakirisitu benshi baza gusengera mu rusengero， bagatura imitwaro bari bafite ku mutima，Imana ikabakiza. Hafi y'urusengero haba hariho ibiti， amajaride n'ibindi byiza byinshi.

Umujyi uba urimo inyubako nyinshi zitandukanye. Haba hariho n'imihanda inyuze mu makaritsiye. Ndetse haba harimo n'ibiro by'ubuyobozi ndetse hakaba harimo n'insengero.

Inyubako zitandukanye zigira amajaride imbere yazo, izi nyubako rero zikunda gukorerwamo, ibikorwa byinshi bitandukanye, zishobora gukorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubuyobozi, cyangwa se ibijyanye n'amatorero.

Mu nyubako za kijyambere haba harimo inzugi nziza cyane. Haba harimo n'amaserire meza cyane. Ndetse nko ku biro haba harimo ifoto y'umuyobozi w'igihugu.

Umuhanda wa kaburimbo ugabanyijemo ibice bibiri. igice kimwe ni icy'imodoka ziri kuzamuka, ikindi ni icy'imodoka ziri ku manuka. Hakabaho n'inzira y'abagenzi kandi hafi aho haba hariho amatara.

Ku biro by'umurenge haba hariho amabendera, kandi haba hanafunguye, ushaka serivisi wese akayibona. Hafi yaho haba hariho tuwalete ndetse na jaride imbere y'ibiro.

Hotetansiyo itanga amashanyarazi ahantu henshi, mbese nirwo rufatiro rw'amashanyarazi, niho insinga zijyananye amashanyarazi ahantu hatandukanye zinyura.

Ibiro by'umurenge biba bifite inyubako nziza cyane. Hafi yaho ndetse imbere yabyo haba hari amajaride meza cyane.

Urusengero ni ahantu abantu bajya gusengera bakahaturira imitwaro, iyo bababaye niho basabanira n'imana bakayibwira ibyabo byose.

Muri siberi kafe， abantu benshi bakunda kuyijyamo， kugira ngo babone uko bakoresha imashini， habamo wayaresi， ndetse n'imashini nyinshi zitandukanye.

Umunyegare yananiwe，none abuze aho aruhukira. Biragaragara ko izuba rimumereye nabi，ndetse n'inzara.

Inyubako ya kijyambere igezweho iba ifite amakaro ku nkuta, abantu benshi bakunda kuyashyira ku nkuta, kugira ngo ubwiza bw'inzu bugaragare.

Amapave agira imbuga nziza cyane, imbuga iriho amapave iba ifite isuku nyinshi cyane. Hari inyubako zitandukanye ndetse hafi yaho hakaba n'amashyamba.

Ku kiriziya haba hariho inyubako nziza cyane， ndetse n'ishusho y'umubyeyi bikiramaliya, n’amajaride meza cyane y’indabo, habayo n'imihanda ushaka gutega kugira ngo ahagere byihuse，aratega moto ikamugeza hafi ya kiliziya.

Ku biro by'Umurenge cyangwa se ibiro by'Intara haba hari amajaride meza cyane arimo n'ibiti byiza bifite amahumbezi. Bituma habaho umwuka mwiza.

Ibitaro bidufitiye akamaro kanini cyane, iyo duturanye n'ibitaro tukarwara duhita tujya kwivuza bitatugoye.

Inzu z'ibihangari bakunda kuzanikiramo nk'ibireti cyangwa se zigakorerwamo amasoko.

Inteko z'abaturage, cyangwa se imigoroba y'abaturage ni ingenzi cyane, ituma abaturage b'isanzura bakamenyana, kandi ufite ikibazo akakivugira muri rusange, bakamufasha kukibonera umuti.

Inteko y'abaturage ibera mu midugudu ni ho abaturage bavugira ibibazo byabo byose ,hanyuma abayobozi bakabafasha kubikemura mu mucyo no mu kuri.

Mu nteko niho abaturage bavuga ibibazo byabo, ubuyobozi bukabafasha kubikemura mu mucyo no mu bwumvikane.

Mu nteko zibera mu tugari no mu midugudu ndetse no ku mirenge, ni ho abaturage babona umwanya wo gutanga ibibazo byabo bafite, abayobozi bakabafasha kubikemura mu mucyo no mu bwisanzure.

Nyuma y'umuganda abaturage bagirana ikiganiro n'umuyobozi witabiriye umuganda, ufite ikibazo aragitanga n'ufite ibyo avuga akabivuga.

Abayobozi ni beza cyane mu muryango nyarwanda ,iyo hari umuturage wagize ikibazo yihutira kukigeza ku bayobozi , abayobozi bakamufasha kugikemura mu mahoro no mu bwumvikane.

Iyo mu mudugudu cyangwa mu kagari hari ikibazo cyabayemo, nk'urugero hafashwemo ibisambo babijyana ku kagari abayobozi bagakurikirana ikibazo cy'abo bajura, abaturage babareba abafite amakuru batanga kuri icyo kibazo bakayatanga.

Inama zitandukanye nizo zikemura ibibazo by'abaturage byinshi, hari igihe umuyobozi runaka aza ashaka gukoresha inama ahantu umuturager akavuga ikibazo cye cyarananiranye kigakemuka.

Imodoka za virunga ni imodoka nini cyane. Zitwara abagenzi zibavana mu ntara ziri kubajyana mu yindi. Zikunda gukoresha imihanda y'ibitaka cyangwa se za kaburimbo.

Imihanda ni ibikorwaremezo bya leta. Inyurwamo n'abantu benshi batandukanye, n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye: amatagisi, amamoto n'ibindi.

Umuhanda munini unyurwaho n'abantu benshi, n'imodoka nyinshi zitandukanye, habamo n'ibyapa, hafi y'aho haba hariho n'amaduka, ndetse n'inzu zo gukatishirizamo amatike.

Amasoko yo mu cyaro yo akenshi ntabwo aba yubakiye nubwo aba asakaye . Batandika hanze noneho abaguzi bakaza kureba imyenda itandukanye, iy'abagabo n'iy'abagore.

Indege zitwara ibintu byinshi bitandukanye, zitwara abagenzi bajya mu mahanga zikazana imizigo y'abantu bagiye guhaha i Dubayi, hanyuma zikabizana hano mu Rwanda.

Imodoka itwara abarwayi kwa muganga ifite umuvuduko munini cyane, by'umwihariko iyo itwaye indembe irirukanka cyane.

Imodoka nini za Ritiko zitwara abantu benshi batandukanye. Abanyeshuri cyane cyane bakunda kugenda mu modoka za Ritiko, iyo bagiye ku ishuri hari ahantu bazitegera rero aho bita muri gare.

Imodoka nini za Ritiko zitwara abantu benshi batandukanye, by'umwihariko iyo ari nk'itangira ry'amashuri Ritiko nizo zikora imirimo yo gutwara abanyeshuri.

Rifani nayo ikoreshwa mu kwikorera imizigo itandukanye. Ikunda gukoreshwa cyane cyane bari kwikorera amasima ,amabati ,za ferabeto n'ibindi.

Mu isoko habamo, inyubako zitandukanye ndetse habamo n'aho guparika imodoka, ku buryo umugenzi aba azi aho yafatira imodoka.

Ritico ni imodoka nini cyane itwara abagenzi benshi cyane. Ikunda kugendera muri kaburimbo nini. Ndetse igakura abantu mu ntara ibajyana mu yindi.

Abagenzi iyo bashaka gutega batega ibinyabiziga bitandukanye. Hari abatega amamoto, abandi bagatega amagare, abandi bagatega amamodoka.

Muri gare haba harimo abantu benshi batandukanye baje gukatisha amatike, bategereje kubona imodoka zibajyana mu ntara, no mu bice byinshi bitandukanye.

Imodoka ya Ritiko aba ari imodoka nini cyane, itwara n'abagenzi benshi batandukanye, habaho n'imodoka ntoya zigendwamo n'abantu bo mu muryango.

Imodoka za ritiko muri iki gihe ziradufasha cyane, zitwara abagenzi benshi kandi zigera kure, mu ntara nyinshi zitandukanye zinyura mu mihanda ya kaburimbo.

Kuri ubu iterambere ryageze no ku gitsina gore. Abagore n'abakobwa， basigaye batwara amagare. Amagare bakayatwaraho amapaniye，amapaniye arimo ibintu byinshi bitandukanye， bajyana ku masoko.

Rwandair ni indege yatwara abantu bavuye hano mu Rwanda ,bagiye muri Kenya. Rwandair irahaguruka ,ikagenda neza itwaye abagenzi.

Mu muhanda haba harimo ibinyabiziga bitandukanye, amagare, amamodoka matoya n'amanini, ndetse haba hariho n'uruhande rw'abagenzi.

Imihanda ni ibikorwa remezo bya leta. Binyurwamo n'abantu benshi batandukanye, ndetse n'amagare, amamodoka, amapikipiki n'ibindi byinshi cyane.

Imodoka zitwa ritiko zitwara abagenzi, noneho iyo zimaze kurangiza akazi, zifite ahantu ziparikwa hafi y'aho ngaho hariho ibiti ndetse hakaba hariho n'ubutaka bwiza cyane.

Imihanda idufitiye akamaro kanini cyane, by'umwihariko za kaburimbo zambukiranya intara, imipaka, zituma abagenzi babona uko bagenda bisanzuye ku mamoto, ku mamodoka n'ibindi.

Amakamyo ni ibinyabiziga bitwara imizigo iremereye cyane. Bikunda kwambukiranya imipaka, nko mu Rwanda no muri Congo mu Buganda ,n'ahandi henshi hatandukanye.

Abagore n'abakobwa na bo bahagurukiye ibijyanye na siporo, bakunda gukina basikete, volebolu, ndetse n'imipira y'amaguru na yo barayikina.

Abantu bazi koga mu biyaga na ho barahogera ,bakahakorera siporo imyidagaduro ikaba myiza cyane ,mu biyaga rero iyo utazi koga ,wirinda kujyayo.

Ingoma zikunda kuvugirizwa ahantu habaye ibirori, bazivugisha imirishyo kandi baba bakenyeye imyenda.

Isiganwa ry'amagare， naryo ni imyitozo ngororamubiri ikunzwe cyane muri ibi bihe. Iyo habaye turu di Rwanda， abantu benshi baba bahagaze ku mihanda， bari kureba abasiganwa ku magare.

Hari uburyo bwinshi bwo kwidagadura. Hari abakoresha kwiruka, abandi bagakoresha imipira, abandi bagakoresha kugorora ingingo, amaguru, amavi, n'ibindi byinshi.

Abakunzi ba siporo baba baziranye kandi bakundana, baba bafite n'imyambaro yabugenewe bambara, kugira ngo bakore siporo neza bitabagoye.

Kuri ubu siporo ntigikorwa n'abagabo gusa. Ari abagabo, ari abagore, bose bakina siporo kandi bagahurira mu kibuga. Bakina siporo y'umupira, cyangwa bakiruka n'ibindi.

Siporo ikorwa mu buryo butandukanye. Ushobora gukoresha amaguru, intoki, umutwe, byose, ariko muri sitade haba harimo abantu benshi baje kogeza abakinnyi.

Imyidagaduro ikorwa mu buryo bwinshi butandukanye. Hari abakina umupira w'amaguru, abandi bagakina vore, abandi bagakina kwiruka.

Abakinnyi iyo bamaze gukina, baba bafite ba arubitire baba babarebereye ndetse bagenda babaha n'amanota. Niyo mpamvu amakipe agenda arushanwa gutyo gutyo.

Siporo ni imikino myiza cyane, iyo abantu bari gukina vole bamwe baba bari hino ya fire, abandi bari hirya ya fire, bakagenda barenze agapira fire kugeza igihe batsindiye.

Kwidagadura ni byiza cyane bituma ubwenge bukora neza, umubiri wacu, imitsi, amagufa bigakora neza cyane kandi hakabaho no kwisanzura hagati y'abakina.

Igororangingo ni igikorwa cyiza cyane gituma imitsi irambuka umubiri ukora neza, ndetse hakabaho urukundo hagati y'abakinnyi, abakinnyi barakundana cyane abakinnyi baba banezerewe mu kibuga bisanzuranyeho, ubuzima bukagenda neza cyane.

Idarapo ry'u Rwanda rigira amabara atatu: ubururu, umuhondo ni icyatsi, mu ubururu haba hashushanyijemo izuba kandi ni naryo bara rinini.

Hari ubwoko butandukanye bwo kugorora ingingo:hari abagorora ingingo bakina umupira ,abandi bakagorora ingingo bakora pompaje ,abandi bakagorora ingingo birukanka basiganwa.

Muri sitade haba hicayemo abafana baje gufana amakipe abiri atandukanye agiye gukina, ikibuga rero bakigabanyamo ibice bibiri igice kimwe kikaba icy'ikipe imwe, ikindi kikaba icy'indi kipe hanyuma bagakina.

Imyidagaduro ikorwa mu buryo bwinshi butandukanye. Hari abiruka, abandi bagakina vore, abandi bagakina udutenesi, abandi bagakina imipira y'amaguru.

Habaho ubwoko bwinshi bw’imyidagaduro，nko kwiruka， koga muri pisine， pompaje， n’ibindi bitandukanye.

Siporo ni umukino ukunzwe n'abantu benshi, cyane cyane gukina umupira w'amaguru, ndetse n'undi mupira bitaga basikete, na vole, ibyo byose birakundwa.

Ubwogero bita pisine niho abantu bakunda kwidagadurira mbega iyo bashaka nko gukora siporo bari kuruhuka.

Siporo ariyo myidagaduro， ikorwa mu buryo bwinshi. Hari abayikora bari kwiruka，abandi bakayikora bari kunyonga amagare， abandi bakayikora bari gutera imipira.

Isiganwa ry'amagare n'amamodoka na yo ni siporo ikundwa n'abantu benshi ,iyo haraba amasiganwa abantu benshi baba bari ku muhanda bategereje kureba uraba uwa mbere.

Isiganwa ry'amagare na ryo muri iyi minsi rirakundwa cyane, abantu benshi iyo bumvise ngo harabaho isiganwa ry'amagare ,bazindukira ku mihanda bari kogeza abasiganwa.

Siporo ikorwa mu buryo butandukanye biterwa n'uko abantu bahisemo kuyikora. Hari abayikora bari kwiruka abandi bakayikora bari gukina umupira, abandi bakayikora bakina amabigibigi.

Abakinnyi iyo bari kwitegura gukina, bari mu kibuga, bose baba bakundanye, bishimye, kandi baseka, baba bafite imipira irenze umwe; kugirango umwe nugira ikibazo bawusimbuze undi.

Pisine na yo ni ubwogero abantu bidagaduriramo, iyo bashaka gukora siporo mu gihe cya nimugoroba, barangije akazi.

Imodoka ni igikoresho gitunzwe n'abantu benshi muri iki gihe, zikunda gukoreshwa mu ngendo zijyana abana ku ishuri, n'ibindi.

Siporo ni igororangingo bikunze gukorwa n'abantu benshi cyane, hari abayikora bari kwiruka, abandi bakayikora bari gukina imipira, abandi bakayikora bari muri picine bari koga.

Volebolo ni umukino ukinwa n'abakinnyi cumi na babiri ,batandatu baba bari mu gihande kimwe ,abandi batandatu bari mu rundi ruhande rwa file.

Siporo ni ikintu gikunzwe cyane muri iki gihe, amasitade menshi aba yuzuye abantu b'ingeri nyinshi ,baje kureba abakinnyi mu kibuga.

Amajaride atuma ahantu haba heza. Kandi ibiti biba biri muri jaride, biduha umwuka mwiza duhumeka, tugasohora umwuka mubi. Pisine na zo abantu bazidagaduriramo.

Siporo ikorwa mu buryo butandukanye. Hari abakora siporo bari kwirukanka. Abandi bagakora siporo mu buryo bwa pompage. Abandi bagakora siporo bagorora amaguru n'umugongo.

Amabuye ni ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi. Iyo nta mabuye nta bwubatsi bwashoboka. Umucanga na wo ukoreshwa mu bwubatsi...

Umuhanda wa kaburimbo uba ugabanijwemo ibice bibiri: hari igice kinyurwamo n'imodoka zimanuka, hakabamo n'igice kinyurwamo n'imodoka zizamuka.